Ishuri ririmo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga amasomo yabo atandukanye. Harimo intebe, ameza n'ibipapuro bishushanyijeho.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi, barimo gukora imenyerezwa ku byo biga mu ishuri rya bo buri munsi.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rwiga ibijyanye n'ubukanishi bw'ibinyabiziga, barimo gukora ibyo biga babivana mu masomo babishyira mu bikorwa.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rugizwe n'abahungu n'abakobwa, biga ibijyanye n'amashanyarazi, barimo gushyira mu bikorwa ibyo biga mu ishuri.

Urubyiruko rw'abanyeshuri biga ibijyanye n'ikoranabuhanga, barimo gushyira mu bikorwa ibyo biga mu masomo yabo, babikora muri puratike.

Ikigo cy'ishuri, aho abanyeshuri barimo kwiga amasomo atandukanye, babifashijwemo na mwarimu wabo, ubona ko bakurikiye ibyo barimo kwigishwa.

urubyiruko rw'abanyeshur,i rwiga ibijyanye n'ububaji mu mashuri yisumbuye, bari mu gushyira mu bikorwa ibyo biga mu ishuri.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rwiga mu mashuri yisumbuye, rugizwe n'abahungu n'abakobwa, rurimo kumurika ibishushanyo by'ubugeni rwakoze.

Inyubako y'ishuri igaragara ko ari isomero, ririmo ibikoresho bitandukanye, ameza, ibitabo, intebe, n'ibindi bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rwiga ibijyanye no gukanika, rurimo gushyira mu bikorwa ibyo bigira mu ishuri babivana mu makayi, babishyira mu bikorwa.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rwiga mu mashuri yisumbuye ibijyanye n'ubuvuzi, bari gukora ibyo biga mu mashuri babikorera muri laboratwari zabugenewe.

Urubyiruko rw’abanyeshuri, abahungu n’abakobwa, bambaye imyenda y’ubururu n’umweru, barimo gusangira amafunguro ya saa sita. Hariho n'imbuto; nk’imineke n’izindi.

Abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye ibijyanye no gukora inkweto. Barimo gukora mu ngiro bimenyereza ibyo biga, bari kubishyira mu bikorwa kugira ngo bizabafashe kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye, ibijyanye no gutunganya amafunguro, barimo gushyira mu bikorwa ibyo bigiye mu ishuri.